Ahantu heza cyane hari inzu yubakishijwe amatafari ahiye, bahacururiza inzoga z'ubwoko bwose, abantu benshi bakunda kuhajya.

Bara ni inzu y'ubucuruzi nziza cyane, ikorerwamo ibintu bijyanye no gucuruza inzoga nyinshi zitandukanye ,kandi ziryoshye cyane.

Kuri bare ni ahantu heza abantu benshi barahakunda kuhaganirira, kuhataramira, kuhakorera ibirori bitandukanye, kandi kuri bare haba hariho n' imiziki myinshi itandukanye.

Bare ni inzu zubucuruzi nziza zikundwa na abantu benshi, bazicururizamo ibinyobwa byinshi bitandukanye.

Bara ni inzu z'ubucuruzi zicuruza ibinyobwa by'uburyo bwinshi butandukanye: habamo inzoga zifite arukoro, habamo n'inzoga zitagira arukoro, habagamo na za fanta, habamo n'amazi.

Bara ni inzu zicururizwamo inzoga z'ubwoko bwose. Ziba zirimo inzoga zitandukanye. Za mitsingi, za primusi n'izindi nzoga zikundwa n'abantu benshi.

Bare ni inzu z'ubucuruzi zikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi bw'ibyo kunywa biryoha cyane, harimo inzoga z'ubwoko bwose ziryohera abantu.

Muri bala ni ahantu heza cyane abantu benshi barahakunda , bakunda kuharuhukira cyane cyane iyo barangije akazi kabo, kandi muri bala icyo ushaka cyose urakihabona cyaba icyo kurya ,cyangwa icyo kunywa.

Inzu y'ubucuruzi, ahantu bacururiza ibintu bitandukanye usanga ari heza cyane, kuko iyo uhageze uhasanga ibintu byose ushaka.

Rukara supamaketi iherereye mu mujyi rwagati wa Musanze, iri imbere y'isoko rinini rya goyiko haruguru y'umuhanda itanga serivisi nziza.

Virunga Hoteli ni hoteli nziza cyane yubatswe mu mujyi wa Musanze rwagati. Itanga serivisi nziza, yakira abakiriya neza. Abantu benshi barayikunda.

Amabutike yo ku muhanda habamo ibintu bitandukanye habamo ibicuruzwa by'ibiribwa, habamo ibicuruzwa by'ubwubatsi, habamo ibicuruzwa by'imyambaro habaho n'imitako hejuru n'ibyapa.

Ahantu hari amabutike menshi haba ari heza cyane, kubera ko abaturage baho babona ibintu mu buryo buboroheye, n'abahacururiza bakabona abakiriya mu buryo buboroheye.

Mu nzu z'ubucuruzi bacururizamo imiti habamo imiti itandukanye: habamo imiti ivura indwara zikomeye, habamo imiti ivuraga indwara zoroheje, habamo n'amazi bakoresha bari guha abarwayi.

Inzu z'ubucuruzi zo ku muhanda, ziba ari nziza cyane. Kuko abantu benshi bakunda kuzicururizamo kubera abakiriya bazigeraho mu buryo bworoshye cyane.

Muri butike habamo ibikoresho byinshi bitandukanye. Habamo ibikosi bakoresha bari kunywa amazi. Habamo n'amabase bakoresha bari gukaraba. Iyi butike ni nziza cyane iyo yegereye abaturage.

Inzu z'ubucuruzi zubatse ku muhanda ziba ari nziza cyane, kuko zigira abakiriya benshi baza bazigana.

Inzu nziza ya kijyambere iri ku muhanda, bakunda kuyicururizamo imiti y'amatungo, abaturage batuye hafi yaho bakunda kuyiguriramo imiti, bikabanezeza cyane iyo basanze imiti bashaka irimo.

Inzu z'ubucuruzi ziri ku mihanda, usanga hariho ibyapa byinshi cyane cyane bigaragaza ibintu bahakorera.

Botike icururizwamo ibintu byinshi bitandukanye, ishyirwaho n'ibirango bigaragaza ibicuruzwa byose bicururizwamo.

Botike ni inzu nziza cyane zikorerwamo ibintu byinshi bitandukanye by'ubucuruzi, Abanyarwanda bakajya guhahira bajya guhahiramo ibintu bitandukanye.

Inzu z'ubucuruzi zibamo ibintu byinshi bitandukanye. Hari izibamo ibyo kurya, hari izibamo ibyo kunywa, hari izibamo ibyo kwambara, hari izibamo n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi.

Amazu yubatswe ku muhanda hariho umuriro w'amashanyarazi agaragara neza cyane, n'abantu bayakoreramo bakora banezerewe, ndetse n'abayahahiramo bahagera nta kibazo bafite, kuko hagaragara neza.

Inzu yubatswe mu buryo bwa kijyambere isakajwe n'amabati yamategura. Ndayikunda cyane cyane iyo bayisize amarangi. Iba ari nziza cyane.

Inzu y'ubucuruzi ibamo ibintu byinshi bitandukanye bifitiye abaturage akamaro, cyane cyane abaturage bahegereye, n'abagenzi bahifashisha bagiye mu mirimo yabo.

Butike ya Mugenzi ni nziza cyane abantu benshi barayikunda cyane, kubera serivisi atanga abantu benshi bakanezererwa n'ukuntu abakira.

Inzu nziza y'ubucuruzi ya kijyambere, yubatse ku muhanda. Abantu benshi bakunda kujya kuhicara bakahaganirira, kuko badashobora kugira irungu.

Butike nziza iri ku muhanda wa kaburimbo ndayikunda cyane, igira abakiriya benshi cyane, abari kwigendera bose bayigeragaho mu buryo bworoheje cyane.

Amazu ya kijyambere yubakishijwe amatafari ahiye, asakajwe amabati y'umutuku, ndayakunda cyane, kubera ko kuyacururizamo abona abakiriya vuba.

Inzu zo ku muhanda z'ubucuruzi haba harimo ibintu byinshi bitandukanye. Iyo winjiyemo ubisangamo ukabaza uri gucuruza ibyo ushaka, bikakorohera.

Kugira inzu ku muhanda, ni byiza cyane, kuyicururizamo birakorohera, kubera ko abakiriya, ibicuruzwa byawe babibona vuba, bigatuma baza kukugurira.

Kuri butike ahantu bacururiza ibintu byinshi bitandukanye, haba ari heza cyane, kuko n'abashaka kwiyicarira hanze babona aho kwicara.

Inzu nziza cyane, ikorerwamo ibikorwa bitandukanye ,ikozwe n'ibikoresho byiza bikomeye, imbere yayo hariho, baparikaho za moto, habaho n'igiti, amapave n'ibindi byinshi.

Inzu y'ubucuruzi yubatse ku muhanda iba ari nziza cyane kuko inyurwaho n'abantu benshi baza kuhagurira ibyo bakeneye byose.

Muri butike yo kwa Jiliberi ndahakunda habamo ibintu byinshi cyane cyane kandi kwa Jiliberi batanga serivisi nziza uhageze agenda yishimye.

Inzu iri kumuhanda y'ubucuruzi igaragara neza cyane, n'inzu irimo ibikoresho byinshi bitandukanye, iby'ubwubatsi, iby'ububaji, n'ibindi bisanzwe bakoresha bari kureka amazi.

Botiki ni inz zicururizwamo ibintu bitandukanye. Zicururizwamo ibyo kurya, zicururizwamo ibyo kunywa, ibikomoka ku mafu, ibikomoka ku binyamavuta, botike zigirira abaturage akamaro, cyane cyane ahantu izo botike ziherereye.

Inzu nziza cyane yubatse umuhanda. Iyo uyigezeho ubona kuyicururizamo ari ibintu byiza cyane.

Inzu z'ubucuruzi ndazikunda cyane cyane, kuko zikunda kuba zirimo ibyo kurya n'ibyo kunywa abantu benshi bakunda.

Kuri butike ntahantu heza cyane . Abantu benshi barahakunda kubera ko haba hari ibintu byinshi bitandukanye Kandi byiza bifitiye abantu akamaro .

Inzu y'ubucuruzi ibamo ibintu byinshi bitandukanye . Ifitiye abaturage akamaro ,cyane cyane abayegereye n'abagenzi bayifashisha bagiye mu mirimo zabo.

Mu rwego rw'iterambere abantu basigaye bakoresha gaze, zigurirwaa ku mabutike hirya hirya no hino mu gihugu, aho wagera hose wayihasanga.

Inzu nziza z'ubucuruzi ziri ku muhanda mwiza wa kaburimbo zigira abakiriya benshi, kubera ko aho ziri haba hari isuku nyinshi hagendwa n'abantu benshi.

Kuri resitora, ahantu bagaburira abantu benshi ibyo kurya, haba hari ibyapa by'ibirango, bigaragaza ibintu bihari.

Butike ibamo ibintu byinshi bitandukanye, ibamo inzoga z'ubwoko bwinshi pirimusi , mitsingi, ibamo n'izindi nzoga z'ubwoko bwinshi butandukanye.

Kuri butike habaho ibintu byinshi bitandukanye, habaho abantu bagiyemo bagiye kugura, haba n'abandi bari kwiganirira gusa ntacyo bari gukora, abandi bakagenda bagiye guhahamo ibintu bitandukanye.

Mu mujyi wa musanze harimo amabutiki menshi, hakorerwagamo ibintu byinshi bitandukanye; hakorerwagamo ibintu by'ubucuruzi, hakorerwagamo za biro z'abanoteri bigenga n'ibindi.

Inzu nziza z'ubucuruzi abantu benshi barazikunda, kubera ko kuzigeraho bagiye kuguramo ibintu biborohera cyane.

Abantu benshi bakunda kubaka amazu y'ubucuruzi ku muhanda. Kubera ko atajya arabura abakiriye igihe cyose babakeneye.

Butike zirimo ibintu byinshi, zigaragara neza cyane. Butike zirimo imyenda, Butike zirimo ibikoresho by'ububati, butike zirimo amabanki, izo butike zigaragara neza, abantu benshi barazikunda kuziguriramo ibintu.

Gulota resito ni hoteri nziza cyane. Iri mu nkengero z'umujyi wa Musanze, munsi y'urusengero rw'Abadivantisite ku muhanda w'amapave. Iyo hoteli nziza cyane yakira abakiriya neza, barayikunda cyane.

Ahantu bacururiza ibintu byinshi bitandukanye, haba ari heza cyane, kuko iyo uhageze, ntabwo ushobora kubura ikintu uhakeneye.

Kuri butike bacuruza ibitanda na matora biba byarakoze. Abantu bafite amafaranga make bajya kubihagurira mu buryo buboroheye.

Inzu y'ubucuruzi ibamo ibintu byinshi bitandukanye bigirira abaturage akamaro, cyane cyane abaturage bahegereye n'abagenzi bahifashisha bagiye mu mirimo yabo.

Kuri butike habaho ibintu bitandukanye hari abacuruza amavuta ya moto, abandi bagacuruza amavuta y'imodoka.

Butike ni inzu nziza z'ubucuruzi, zikunda gucururizwamo ibintu by'ubwoko butandukanye, abaturage bakunda kugurira mu mabutike abegereye.

Banke populeli y'abaturage ni banke nziza cyane, abaturage benshi benshi cyane barayikunda kuberako itanga serivisi nziza cyane.

Moteri n'inzu nziza z'ubucuruzi, abantu benshi barazikunda zakira abantu benshi cyane, kandi kuziruhukiramo biba byiza cyane.

Inzu z'ubucuruzi za hoteri na za moteri ,ni inzu nziza cyane zigirira abaturage akamaro ,zakira abantu neza, kandi ziteka neza, ibiryo biryoshye cyane.

Hoteri, ni inzu nziza cyane zakira abantu benshi batandukanye, inzu zisakajwe amabati yo mu bwoko bw'amategura ziba nziza cyane, kuko zigira uburambe kandi zidasakuriza abantu cyane, iyo imvura iri kugwa.

Mu isoko rya kijyambere habamo imbuto z'ubwoko bwinshi zitandukanye: habamo kokombure, ibibiringanya, n'izindi mbuto tutabashije kuvuga mu mazina ziba zirimo.

Ibishyimbo by'ibitonore biraryoha cyane, abantu benshi barabikunda cyane, ntabwo bihenda, kubera ko ari igihingwa gihingwa ahantu henshi.

Isoko rya kijyambere ni ryiza cyane ribamo ibintu byinshi bitandukanye, ribamo ibyo kurya, ribamo ibikoresho byo mu rugo, ribamo ibikoresho by'ubwubatse, ribamo abantu beza bakira abakiriya neza.

Mu muco wa kinyarwanda, abaturage bakunda isuku, bakoresha amabase manini bayabikamo amazi, naho amabase mato bayakoresha bari gukaraba, bashyiramo amazi make yo gukaraba.

Mu isoko ryiza rya kijyambere, ahantu hateranira abantu benshi cyane, haba harimo imbuto z'ubwoko bwose abantu benshi bakunda.

Mu iduka rinini ryiza cyane, bacururizamo imitobe y'ubwoko butandukanye, abantu benshi bakunda kujya kuguriramo kubera ko byose babisangamo.

Mu isoko bacururizamo imbuto habamo ubwoko bwinshi bw'imbuto, habamo n'izitwa wotameloni ziraryoha cyane, abantu benshi barazikunda.

Mu kigo cy'imyuga n'ubukorikori, ahitwa mu gakiriro uhasanga ahantu bacururiza amasanduku yo gushyinguramo. Aba ari meza cyane ntabwo ahenda.

Umuntu usudira ibintu bishaje aba ateye imbabazi nyinshi cyane, ndetse aba akwiriye gufashwa, ariko ntabwo bishoboka kuko bigaragara ko hari ibyo na we ashoboye gukora.

Isoko ryiza rya kijyambere, abantu benshi bararikunda bajya gushakiramo ibintu byinshi bitandukanye bakeneye, kuko utageramo ngo ubure ibintu byose washakaga.

Mu isoko rya kijyambere habamo ibintu byinshi bitandukanye, habamo indobo, habamo amasafuriya, habamo abantu benshi bavuye hirya no hino baje kuriguriramo ibyo bakeneye.

igitoki ni igihingwa kiza cyane cyane, kiraryoha, kigira umusaruro ushimishije, iyo keze neza cyane, kiba kiza.

Isoko ry'imbuto usangamo ubwoko bwose bw'imbuto ushaka. Haba harimo imineke, haba harimo pome, haba harimo amashu, haba harimo wotameloni n'abantu benshi batandukanye baje kubigura.

Mu isoko habamo ibintu byinshi bitandukanye, habamo imbabura bakoresha mu buryo bwo guteka, uduseke bakoresha mu buryo bw'imitako.

Mu isoko rya kijyambere, habamo ibintu byinshi bitandukanye, ibikomoka ku mbuto, ibikomoka ku matungo, ibyo kurya, ibyo kunywa, ndetse n'ibyo kwambara.

Mu isoko ahantu bacuruza ibikoresho byo mu rugo usanga ari heza cyane, kuko haba hateguye neza, kugira ngo abaguzi babibone neza cyane.